Ndabona indobo iri kumapave, ni puberi bashyiramo imyanda, hafi y'inzu, n'idirishya ariko inzu imeze nka etaje hariya hari akabizi imbere yaho.